Icyumba kiberamo inama; abantu bicaye mu matsinda muburyo bw'umuzenguruko; ameza ariho igitambaro cy'umukara; uducupa tw'amazi kuri buri muntu, ibitabo ndetse n'amakaramu.

Icyumba kiberamo inama, bicaye mu buryo burebana ariko bose batumbereye imbere yabo, ku meza ariho igitambaro cy'umweru, uducupa tw'amazi yo kunywa na mudasobwa.

Ni mu cyumba kiberamo inama aho cyicayemo abagabo batandukanye abenshi muri bo bambagiye amakoti, ku meza hateretse uducupa tw'ibirahure two kunyweramo amazi.

Ni abadamu batatu bicaye imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa, umwe muri bo yambaye amadarubindi ndetse hari iisakoshi y'umukara iri aho hafi.

Icyumba kiri kuberamo inama aho ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, bakaba bicaye mu buryo buzengurutse. Umudamu ari hagati muri bo afashe indangururamajwi.

Ni icyumba kirimo abantu benshi bagaragara nk'abari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara. Umwe muri bo afashe indangururamajwi mu ntoki akaba ari gutanga igitekerezo.

Icyumba kiberamo inama kirimo ab'ingeri zitandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abagabo ndetse n'abagore ku meza hariho uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Inyuma ye hari urukuta rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'ubururu aho ugenekereje mu kinyarwanda ari ishoramari mu Rwanda imbere hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki.

Mu cyumba gikoraniyemo abayobozi bari mu nama inyuma gato haragaragara intebe ziticawemo, naho imbere hari umugabo wambagiye ikoti, imbere ye hari indangururamajwi amazi ndetse na mudasobwa.

Icyumba kinini cyubakishijwe n'ihema kirimo amatara menshi agiye ari ku murongo, hasi hacyo hashashemo iby'ubururu harimo abantu benshi bigaragara ko bari mu nama.

Ni abantu bo mu ngeri zitandukanye abagabo ndetse n'umudamu umwe, harimo abazungu bakaba bicaye mu ntebe nziza, bari mu nzu ifite amarange y'umweru n'imitako iyigize.

Icyumba kiberamo inama, intebe ziri zonyine ndetse n'ameza y'umuzenguruko, abantu bakaba bahagaze imbere yazo, biganjemo abambaye imyambaro y'abanyacyubahiro, abagabo ndetse n'abagore.

Icyumba cyagutse kimo inama amahugurwa cyangwa se ibindi kirimo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, biganjemo abadamu ndetse n'abagabo ku meza atukura hagiye hateretse indangururamajwi.

Icyumba kiberamo inama kiragaragaramo abantu babiri, umugabo ugaragara igice kimwe ndetse n'umukobwa wambaye ishati itukura, imbere ye ku meza hari icupa ry'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Intebe z'umukara ziri mu cyumba kiberamo inama. Abantu batatu bari kugaragara buri wese arareba imbere ye. Harimo umukobwa uteze agatambaro k'umukara mu mutwe ndetse n'abasore babiri bari imbere ye.

Icyumba kiberamo inama rusange cyangwa se amahugurwa, kiragaragaramo abantu b'ingeri zose, yaba abakuze abasore ndetse n'abakiri batoya. Hari abagabo bicaye imbere, bafite impapuro ku meza ndetse n'amakaramu mu ntoki.

Icyumba kirimo abantu benshi bamwe bicaye ndetse n'undi mugabo uhagaze wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari hafi y'insakazamashusho.

Icyumba kiberamo iyi inama cyicayemo abantu benshi bose bakaba bakurikiye imbere yabo. Hari abagabo babiri bicaye bambaye amashati ku meza hakaba hari telefoni n'igitabo.

N'abantu babiri bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hari ibyapa byanditseho ngo Kigali yacu ku meza atukura hariho amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi.

Ibyapa by'ubururu ndetse n'icyatsi cyerurutse birimo amagambo agira ati Kigali yacu, imbere yabyo hicaye abantu batatu barimo abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe uri hagati.

Icyumba kinini cyagutse kiberamo inama haragaragara ibyicaro bitarimo abantu abandi barakurikiye barareba imbere yabo, hagati ameza haragaragara insakazamashusho.

Ikoraniro ry'abantu benshi bari ku cyumba bigaragara ko bari mu nama, harimo abirabura ndetse n'umudamu w'umuzungu ufite ikaramu mu ntoki wayishyize ku munwa.

Ni umudamu wambaye agakoti k'umukara, ikanzu irimo amabara atukura n'ay'umweru afite indangururamajwi mu ntoki ze ari gutanga imbwirwaruhame.

Icyumba giteguye neza kiberamo inama cyangwa se amahugurwa, bicaye mu buryo bw'amatsinda y muzenguruko, ameza yabo ariho ibitambaro by'icyatsi ndetse abenshi bafite amazi yo kunywa.

Mu cyumba kiberamo inama bicaye mu buryo bw'amatsinda y'umuzenguruko, hagaragaramo abakobwa babiri bafite imisatsi imanutse umwe muri bo afite telefone mu ntoki arareba imbere ye.

Ni inzu nini ishashemo iby'ubururu, hakaba hateguyemo ameza ariho ibitambaro by'umweru n'indabyo, mu ntebe z'imikara hicayemo abazungu ndetse n'abirabura.

Mu cyumba kiberamo inama bivaye bari kumwenyura bareba imbere yabo. Ku meza hari amacupa akozwe mu birarahuri arimo amazi ndetse hateretse na mudasobwa.

Ni abantu babiri bicaranye umwe ni umugabo wambaye ikote ry'umukara imbere ye hari icupa ry'amazi, iruhande rwe hari umudamu wambaye ikanzu y'ubururu ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika.

Ni amakaro y'umukara ndetse n'andi asa ikigina, iruhande rwayo hari inkingi itagaragara neza yubakishije amatafari ya ruriba, hari umuryango ufunguye hejuru hakabaho icyapa cy'irembo.

Ni akazu gato k'imbaho gafunguye amadirishya gakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, imbere yako hariho utuntu dufite amabara y'umweru n'umukara aho hicayemo abantu.

Ni icyapa cyamamaza cy'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rura kiri mu ishusho y'ubururu amagambo yandikishije icyatsi, aho umutwe wayo ugira uti amabwiriza agenga abatanga serivisi za mobayiro mane murwego rwo kurwanya korona virusi.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro ya kaki, umupira w’icyatsi, n'umuhondo mukeya, ahagaze imbere y’umudamu ufite mudasobwa ku meza yiwe.

Icyapa cyamamaza kiri mu ishusho nini y'ubururu hari umutwe w'amagambo ugira uti ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi, hariho umudamu witandiye ndetse n'umugabo.

Ikirere cy'ubururu bwiganje kiragaragaramo munsi yacyo umunara muremure, uriho ibisahani uri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku uyu wifashishwa mu miyoboro y'ikoranabuhanga.

Ni ahantu hari inyubako nziza z'imiturirwa igezweho, hakaba hanze harahariwe gucamo abanyamaguru, aho nta binyabiziga byemerewe gukoresha iyi nzira. Hateye amahema y'umutuku ndetse n'umweru.

Iki n'icyapa cyamamaza ibijyanye n'ingendo, aho bagira bati ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabukenenewe, uburyo bumwe rukumbi mu kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa Kigali ugukoresha ikarita.

Abagabo babiri bahagararanye barimo umuzungu wambaye ikote ry'umukara ndetse n'agapira k'igitaka m’imbere, akaba ari kumwe n'uwambaye ingofero y'umweru bakaba bari mu biro.

Iki ni icyapa cyamamaza cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho bakubwira ko ugomba kumenyekanisha ipatanti yawe, umunsi ntarengwa ni itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane.

Amadage agizwe n'amabuye amwe asize irangi ry'umweru n'umukara, andi akaba nta kiyariho imbere yayo hari umuryango ufunguye uriho intebe ebyiri.

Umurima uteyemo ibigori bitarera neza imbere yawo hari umunara munini ushamikiyeho n'utundi twuma, ibi bifasha mu ihuzanzirara bigatanga umuyoboro w'ikoranabuhanga.

Iri ni itangazo ryatanzwe na minisiteri y'abakozi ba leta ndetse n'umurimo aho yagaragazaga amasaha y'akazi avuguruye yagombaga gukurikizwa muri Mutarama mu mwaka w ibiibihumbi bibiri na makumyabiri nitatu .

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'imisoro n'amahoro, aho bakubwira ngo menyekanisha ipatante y'umwaka wose wa bibiri na makumyabiri nagatanu cyangwa igihembwe cya mbere, uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe, ukwa mbere uyu mwaka.

Ni byiza ko ibikoresho birimo amapoto ajyana amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa by'imiyoboro y'itumanaho, bishyirwa ahantu habugenewe, hatagerwa na benshi mu rwego rwo kugira ngo bibe byizewe umutekano.

Icyapa cyamamaza kiriho ishusho y'ubururu ndetse amagambo yandikishije umweru. Ku ruhande hari terefone, imbere yayo hari imodoka na moto.

Icyapa cyamamaza gifite igice gito cyo hejuru cy'ubururu ndetse hasi kikaba gisa umweru, handitsemo amagambo agira ati uko wakwisabira waguze ikinyabiziga.

Icyapa cyamamaza kiri mu ishusho y'ubururu ndetse cyandikishijemo amagambo y'umweru, ruguru ku nguni hagaragaramo intoki z'umuzungu ziri kuri mudasobwa.

ni icyumba cy'ikoranabuhanga kigaragaramo mudasobwa , nyinshi zitandukanye ziriho abantu bari kuzikoresha uruhande runyegereye ruriho umukobwa wifashe mu musaya wambaye umweru n'umukara .

Iki ni icyapa cyamamaza urubuga rwitwa irembo rukora ibikorwa bitandukanye harimo kuba wakwishyuriraho imisoro ndetse n'ibindi byinshi.

Umunara munini w'amabara y'umutuku ndetse n'umweru uragaragara mu gicu cyitamuruye akaba ari uw'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni nk'uko ibirango byawoo biri imbere bibivuga.

Ni icyapa cyamamaza ibijyanye n'ingingo, aho bakubwira ngo mbere yo gushyira amafaranga ku ikarita yawe banza ugenzure ariho na nyuma yo kuyakuraho genzura niba ayo wabahaye ari yo washyizeho.

Icyapa cy’amamaza gahunda y'irembo yiswe “byikorere” kikaba kiri mw’ishusho y'ubururu, uruhande rumwe ruriho mudasobwa urundi ruriho telefone, aho bakubwira ngo ishyura mituweli ukoresheje kode y'irembo.

Ni ihema rinini ry'umweru ryicayemo abiganjemo urubyiruko, aha hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi ndetse ateretseho mudasobwa umusore wambaye umupira utukura uri kumwe na mugenzi we.

Ni icyumba kinini kigaragaramo ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga cyicayemo abantu benshi biganjemo inkumi ndetse n'abasore kikaba kirimo mudasobwa nyinshi z'umukara.

Umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ijipo, imbere ye hari umusore. Bageze iruhande rw'umunara muremure uzengurutswe n'utwuma tuwurinda abawinjiramo, ukaba ufite amabara y'umutuku n'umweru.

Icyapa cyamamaza cyandikishijwe amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, kikaba kiri mu ishusho y'ubururu hahagaze umusore wambaye umupira ndetse ufite mudasobwa mu ntoki akaba ari kumwenyura.

Ni utwuma tuzengurutse imbere harimo umunara w'amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hagaragaramo inyubako yubakishije amatafari ahiye azwi nka mpunyu.

Ni icyapa cyamamaza kigizwe na mpande enye kizengurutswe n'utubaho kikaba cyegamye ku rukuta rwubakishije amabati ndetse n'ikindi cyuma kiri inyuma yacyo kizamutse.

Ipoto rishinzwe kujyana amashanyarazi ririho insinga zijya hirya no hino, munsi yaryo hari utwuma dukorotiriye ndetse n'umuhanda ugizwe n'utubuye tw'umukara n'umweru.

Ibyuma birarambitse mu mbuga bikaba bifite ibara ry'umweru ahagana ku mutwe, biri imbere y'inyubako y'umuhondo ifite igisenge kijya gusa nk'umutuku. Hari umugabo uhagaze mu muryango wambaye iby'ubururu.

Muri gahunda ya leta y'u Rwanda cyiyemeje ko ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hazaba harageze amashanyarazi mu Rwanda hose, iki ni igikorwa remezo kigana ku baturage bose.

Aha ni hantu udakwiriye kwinjira kuko hatemerewe na gato hazengurutswe n'utwuma tw'umutuku ndetse n'udusenyenge kuko hari insinga z'amashanyarazi ntago biba byemewe kuhakandagira.

Umuhanda munini wa kaburimbo uragaragaramo ipikipiki iri kurenga igeze hafi y'ibiti, kuruhande rw'inzira y'abanyamaguru hahagazemo umugabo uhetse igikapu.

Ikirere kitamuruye kigaragaza izuba rimaze kurenga munsi yacyo haragaragara umunara muremure ugizwe n'ibyuma, iruhande hari insinga z'amashanyarazi.

Ikirere cyitamuruye gisa ubururu, hejuru ku ipoto hari umukobwa waryuriye, ushinzwe gutunganya ibikorwa by'amashanyarazi akwirakwizwa hirya no hino mu baturage.

Ni byuma birebire by'umweru biriho amatara amurikira umuhanda, urimo ibinyabiziga bitagaragara neza, imbere hari ipoto rirerire, rishinzwe kuzana amashanyarazi.

Ni umutaka w'umucuruzi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN, hahagazemo abana batatu b'abakobwa, ndetse babiri bambaye amajipo y'umukara imbere yabo hari ipoto rijyana amashanyarazi.

Mu ihuriro ry'imihanda hakaba hari kugaragaramo ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'imodoka y'umweru, iruhande rwawo hari ibyuma biriho amatara awumurikira iyo bwije.

Igicu cyitamuruye kigaragaza umweru ndetse n'ubururu, munsi yacyo hari ipoto rirerire rijyana insinga z'amashanyarazi mu ngo nyinshi zitandukanye nk'uko biri muri gahunda y'igihugu kuyageza kuri bose.

Ipoto rirerire rishamikiyeho insinga zijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage nk'uko biri muri gahunda ya leta y'u Rwanda ko mu w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu mu Rwanda hose azaba yamaze kuhagera.

Ubusitani butoshye burimo ibyatsi bigiye bi bikatakase mu buryo bwiza ndetse n'ibiti, imbere hari inyubako nini igeretse y'amabara y'ubururu bwijimye ndetse n'umweru.

Ni abantu bicaye ku ntebe zitambitse zigizwe n'imbaho n'ibyuma baje ku kigonderabuzima kwivuza, imbere yabo hahagaze umuganga wambaye iby'umweru akaba ari kubakira.

Ni imodoka iri kuzamuka iva ahameze nk'ivuriro nk'uko ibimenyetso biri ku rugi bibigaragaza. Umuryango uri gukingwa n'umukobwa, iruhande rw'umuhanda hari imodoka z'umweru ndetse n'iz'umukara.

Imbuga ishashemo amabuye ndetse ikaba irimo imbangukiragutabara mu mabara yayo y'umweru n'umutuku, hakurya hari inzu nziza yubakishije amatafari ahiye.

Ubusitani bw'icyatsi kibisi bugaragiwe n'indabyo urukuta rw'amabuye ndetse n'inzu z'umweru, ibisenge bitukura, aha ni ahagaragara nk'aho ari kubitaro.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye hakaba hari imbere yayo ubusitani bikaba bigaragara ko ari ibitaro, iruhande rwayo hari akayira kahariwe gucamo abantu gatwikiriye.

Ni inyandiko iri ku rupapuro rw'umweru ikaba igizwe n'amagambo yandikishije umukara, amabwiriza ya minisitiri nomero zeru zeru akorongo makumyabiri na gatanu, akarongo icumi yo kuwa makumyabiri nari rimwe z'ukwa mbere, bibiri na makumyabiri na gatanu.

Ni icyumba kigaragaramo abakozi bo mu nzego z'ubutabera, yaba abashinjacyaha, cyangwa se abavoka. Barangwa n'umwambaro w'umukara n'umweru, na ho abacamanza bakambara umutuku.

Yambaye amadarubindi, ikanzu y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, akaba ari umucamanza. Aba ni bamwe mu batanga ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda.

Urwego rw'ubutabera ni inkingi imwe mu zigize igihugu ikaba ari iy'ingenzi, aha hari umudamu w'imisatsi miremire y'umukara wambaye ikanzu itukura n'umweru akaba ari umucamanza.

Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa aha rwari rwamanitse ibyapa bigaragaza ko tugeze mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu, ahantu ni ku iigororero rya Nyamagabe.

Baricaye ku ntebe y'urubaho bombi bambaye udupfukamunwa inyuma yabo hari abatagaragara neza ni umudamu wambaje ikanzu itukura iruhande rwe hari ushinzwe kunganira abantu mu mategeko.

Mubusanzwe mu muco w'abanyarwanda iyo hari ikitagenda neza gishyirwa mu nteko y'abaturage bakicara bakakiganiraho. Aba bari ku ntebe z'imbaho ndetse umudamu ahagaze hagati muri bo ari kubagezaho ijambo.

Ni igazeti ya leta igaragaramo ingingo z'amategeko ahana ibyaha, ikaba yarasohotse ku wa makumyabiri z'ukwacyenda, bibiri na cumi n'umunani, haragaragaramo igika kigira kiti miliyoni ebyiri ariko zitarenze eshatu.

Iyi ni inyandiko iri ku rupapuro rw'umweru, aho yandikishijwe amagambo y'umukara. Uruhande rumwe igika kiragira kiti: " Bitangajwe na Perezida wa Repubulika kandi bimaze gusuzumwa no kwemezwa n'inama y'Abaminisitiri yo kuwa makumyabiri na kane z'ukwa gatatu".

Imbere y'urukiko hari umugabo wambayekiye ikoti, ishati y'umweru ndetse n'amadarubindi, iruhande rwe hari umwunganira mu mategeko bigaragara ko ari kumuburanira.

Iyi ni igazeti ya leta ikaba yanditswe ku rupapuro rw'umweru aho iri mu ndimi eshatu, ikinyarwanda, igifaransa ndetse n'icyongereza, igika cyayo cya mbere cyanditseho ngo ingingo ya cumi na rimwe gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe.

Ubutabera ni inkingi ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko iyo bubaye bwiza butuma imibanire y'abaturage irushaho kugenda neza, aha haragaragara abanyamategeko bane mu mpuzankano ibaranga.

Mu nzu ikorerwamo ibijyanye n'ubutabera, hagaragaramo abunganizi mu mategeko, abashinjacyaha bari mu rubanza ndetse imbere yabo hakaba hari umucamanza, inyundo ye iteretse ku meza.

Imbere y'ubutabera hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, iruhande rwe hari abagabo babiri bakora umurimo wo kunganira abantu mu mategeko.

Ni ahagaragara nko mu rukiko hagati hicaye umugabo wambagiye ikoti ufite igitabo cy'umukara mu ntoki, wambaye agapfukamunwa hirya ye ndetse no hino hicaye abakora umurimo wo kunganira abantu mu mategeko.

Urwego rw'ubutabera ni rumwe mu nkingi ya mwamba hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko hari byiza ko abantu bose baba bareshya. Iyi ni inyandiko igaragaza ibibazo byasuzumwe, haribazwa nimba uwajuririye atagabanyirizwa ibihano yakongera kujurira.

Imfungwa n'abagororwa bahagaze hanze mu mbuga, hari umucungagereza uri kubabara, imbere yabo hari urukuta runini rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'umubare ijana na mirongo icyenda na gatatu zeru.

Ni icyapa kiri hejuru y'umukingo cyanditseho ijambo rigira riti inkiko gacaca, ubutabera, ubwiyunge haragaragaraho abaturage bari mu nteko bicaye bamwe bamanitse ibiganza.

Ni inyandiko iri ku rupapuro rw'umweru mu ndimi eshatu ikinyarwanda, igifaransa n'icyongereza. Umutwe w'amagambo iburyo uragira uti” Bitabangamiye ubwigenge bwa komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu”.

Iki ni ikirangagantego cy'u Rwanda kigaragaramo amagambo agira uti "ubutabera bwunga inkiko gacaca", ubu ni buryo bumwe bwakoreshejwe hambere mu kurangiza imanza nyinshi ndetse mu gihe gito.

Inyubako zijyanye n'igihe tugezemo by'umwihariko ahahurira abantu rusange, mu masoko mu bitaro no mu mavuriro ni ngombwa ko haba hari ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, mu gihe icyo ari cyo cyose yaba ije.

Ni ngombwa ko mu miturire igezweho haba harimo n'uburyo bwo kwirinda impanuka, zitandukanye ubu ni bumwe mu bushobora kugufasha kwirinda inkongi mu gihe yateye iwawe, kuko utu twuma turi hano twifashisha mu kuzimya umuriro.

Icyapa kinini cyamamaza, hejuru kiriho ikirangantego cy'Urwanda, hirya hakabaho ikirango cya polisi, ikaba kigaragaza ko ari mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Rwezamenyo.

Ni urukuta rugaragaraho icyuma kigizwe n'umupira ushinzwe kuzimya no guhangana n'inkongi y'umuriro. Ni ngombwa ko ahahurira abantu benshi cyangwa se mu ngo, bagira bene ibi bikoresho.

Abasore n'inkumi bahagaze bambaye impuzankano isa bose bakaba ari abakorera ikigo gishinzwe umutekano, bari guhabwa amahugurwa ajyanye n'uburyo bahangana n'inkongi y'umuriro.

Ni icyuma kiriho umupira ukizengurutse w'umutuku, akaba ari icyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, ibi ni ngombwa ko ahahurira abantu benshi mu masoko, mu mavuriro n'ahandi bigomba kuba bihari.

Ni inzu igaragara igice gitoya ikaba isa umweru, ifite akuma karekare kariho umurindankuba hakurya yayo hari ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi.

Ni abagabo babiri bambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi bose bafite imbunda mu ntoki, hejuru yabo hari icyapa kigaragaza ko aha ari ku cyicaro cya polisi mu karere ka Gasabo ho i Remera.

Abayobozi bakuru mu nzego za leta y'u rwanda; bari guhererekanya amasezerano akubiye mu bitabo bafite mu biganza byabo; biriho ikirangantego cy'u rwanda, iruhande hari ibendera ry'igihugu.

N'abagabo bambaye amakoti ndetse n'abadamu bambaye imikenyero. Buri wese ikiganza cy'ibumoso gifashe ku ibendera ry'igihugu, icy'iburyo kiramanitse, nk'ikimenyetso cyo kuba bari gukora indahiro.

Ni abantu batatu imitwe yabo ihitagaragara neza bazindukiye mu gikorwa cyo kwihitiramo umuyobozi ugomba kubayobora aho baje gutora, babiri bafite impapuro mu ntoki bagiye gushyira ahabugenewe.

Ni ishati nziza y'icyatsi kijimye itebeje ndetse ipantaro y'umukara nk'abandi banyarwanda bose nawe yaje guhitamo uzayobora igihugu, uyu ni perezida wa repubulika y'u Rwanda.

Ni ibyuma byinshi byifashishwa n'abakora umwuga w'itangazamakuru biteretse kumeza aho hari umugabo uri gutanga imbwirwaruhame akaba yicaranye n'umudamu uri ibumoso bwe ndetse n'undi uri aho hafi.

Mu nzu izwi nk'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda hicayemo abagabo ndetse abagore, ku ntebe nziza z'imikara, ku meza hari uducupa tw'amazi ndetse n'igikombe cy'icyayi.

Aba ni abagize inteko nshingamategeko y'uRwanda biganjemo abagore ndetse n'abagabo, hariho uwambaye ikoti ry'umukara n'amadarubindi, n'umudamu ufite ikanzu y'ubururu.

Ni amabara y'ibendera ry'igihugu icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, hagaragara umudamu uri gushyira ijwi rye mu kagenewe gushyiramo iyo umaze gutura.

Imbere y'inteko ishingwa amategeko, nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, ari kugeza ijambo abitabiriye, ndetse yifashishije ibyuma birangurura amajwi.

Ni mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPR inkotanyi, iri akaba ari ishyaka rikorera hano mu Rwanda, abantu benshi bambaye imyambaro isa bashyize amabendera hejuru.

Uyu yitwa Uwiringiyimana Agathe. Ni umuyobozi wabaye ikirangirire hambere, kuko yagaragaweho kurwanya akarengane ndetse n'ihohoterwa. Akaba yari minisitiri w'uburezi ndetse akaba n'uw'intebe igihe kimwe.

Ni mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wa efupe eri inkotanyi, abamwishimiye bazamuye amabendera, bambaye imyambaro isa ndetse n'ingofero bose z'umweru.

Ni umudamu wicagiye mu ntebe nziza y'imisego, akaba yambaye ishati y'umweru iriho ibirabyo, afite imisatsi igiye inyuma ndetse n'amadarubindi, akaba ari kureba imbere ye.

Umugabo wambaye umukenyero ishati y'umukara ahagaze imbere y'abantu, imbere ye hari indangururamajwi akaba ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari umudamu wambaye akantu gatukura.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yambaye neza akaba arimo gutambuka, inyuma ye hagaragara ishusho y'ubururu ndetse akaba yambaye amadarubindi.

Igikorwa cyo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR inkotanyi akaba na Perezida wa Repubulika y'U Rwanda Paul KAGAME, aragaragara ari mu baturage hagati bazamuye amabendera nk'ikimenyetso cyo kumwishimira.

Ni igicu kirimo kirahinduka, icyuma kirekire kiriho ibendera ry'amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, amagambo yandikishije umukara kikaba ari iry'ishyaka FPR.

Ni inzu itatsemo ibitambaro by'amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi aranga ibendera ry'igihugu, hari ubwihugiko bw'ibyumba by'itora uvuyemo akaza agashyira urupapuro rwe ahabugenewe.

Ni urupapuro rw'itora rugaragaraho abiyamamaje mu guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, harabanza Nyakubahwa KAGAME Paul, hagakurikira Frank HABINEZA ndetse na MPAYIMANA Philippe.

Ni icyanya rusange cyagenewe guhagararamo ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu byabo, haragaragara imodoka z'umweru zihagaze ndetse n'iziri kugenda.

Ni umuhanda wangiritse ugaragaramo ikinogo, ukaba uri gucamo ikinyabiziga gitwararira abantu muri rusange, iruhande rwawo hari akayira kagenewe gucamo abanyamaguru ariko ntawurimo.

Ni icyanya kinini cyagenewemo guhagarara ibinyabiziga bitwara abantu muri rusange kizwi nka gare, haragaragaramo imodoka nini itwara benshi iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ni ahantu hagaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, imbere hari imodoka itwara abantu muri rusange nini, ifite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'ibirahure by'umukara.

Ni icyanya kigaragaramo ibikorwa by'ubucuruzi, kirimo urujya n'uruza rw'abantu, hari abasore babiri, umwe asunika ingororofani undi ayikurura, bakaba batwaye imifuka.

Ni umuhanda ugaragaramo ibinyabiziga bigera kuri bitatu; kimwe kiragaragaraho agace gato; indi ni ipikipiki itwaye umudamu ndetse n'imodoka yikoreye ibyo kunywa.

Ni umuhanda munini wagutse, uruhande rumwe ruriho ibinyabiziga bihagaze byikoreye imizigo ahandi hakaba hari amamodoka ari kugenda, aha hari igaragara igice gito y'ubururu.

Umuhanda wubatswe neza ugabanya impanuka ndetse ukoroshya imihahiranire n'imigenderanire. Uyu uragaragaramo ikinyabiziga cy'ipikipiki, hagati muri wo hateye ubwatsi, indabyo n'imikindo.

Ni ahantu hahagaze ibinyabiziga byinshi bizwiho gutwara imizigo bikaba bifite amapine atatu, byose bikaba ari iby'amabara y'ubururu, kimwe muri byo kikaba kiri kwinjira gishaka aho guparika.

Umuhanda wagutse urabisiganirairamo imodoka y'umutuku irimo umuyobozi ugitwaye, ndetse n'indi iri kuzamuka, hirya hari icyapa gikikijwe n'ibiti.

Umuhanda ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'ibinyamitende, imbere hari umunyonzi wambaye akagofero gatukura, iruhande rwe hakaba imodoka y'ubururu.

Ni umuhanda nyabagendwa ucamo imodoka zitandukanye kuri ubu harimo ipikipiki y'amapine atatu , ikaba isa ubururu hirya yayo mu kayi k'abanyamaguru hari gutambuka abana.

Ikinyabiziga kizwiho kwikorera imizigo myinshi, kiri mu muhanda, gifite amapine y'umukara ndetse ibara ryiganje ry'umweru, kiriho ibyapa byamamaza amavuta bigaragara ko ari yo gitwaye.

Ni ibinyabiziga bigera muri bitatu, byose bishinzwe kwikorera imizigo myinshi, kimwe kirimo umuntu inyuma wambaye agapira k'icyatsi, kikaba gifite ibara ry'ubururu.

Mu muhanda nyabagendwa hari kugaragara ibinyabiziga biri kubisikana, kimwe cy'ubwikorezi gifite ahajya imizigo h'ubururu n'ikindi kigendamo abantu mu buryo bw'umwihariko, iruhande hari umugabo wikoreye umuzigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka itwara abantu mu buryo butari rusange y'umweru ndetse n'akabara gatambutsemo, iruhande rwayo hari abagabo bari gusunika amagare ariho imifuka.

Ni urujya n'uruza rugaragaramo abantu benshi; harimo umusore wambaye agapira k'ubururu; n'undi uri imbere ye wikoreye imizigo iri mu mufuka; inyuma yabo hari imodoka itwara abantu muri rusange.

Umuhanda nyabagendwa uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye hari ipikipiki itwaye umugenzi ikoresha amashanyarazi y'umutuku, abayiriho bambaye ingofero zirinda impanuka z'umuhondo.

Ni umuyoboro utwara amazi ava mu muhanda wubakishijwe amabuye, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru ndetse imbere hari imodoka yahapfiriye iri gukorwa.

Abakora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amagare bahagaze i ruhande rw'umuhanda mu masaha ya nijoro, umwe muri bo yambaye ingofero itukura ndetse n'umupira w'ubururu.

Akayira k'abanyamaguru kari kugenderamo abagenzi babiri bateganye, iruhande rwako hari ibinyabiziga bihahagaze ndetse kimwe kikaba gifite icyuma hejuru gitukura.

Ni ruhurura hitwikiriye igice kimwe ikindi kirarangaye bishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abakoresha aka kayira k'abanyamaguru, hari gucamo umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi kiri mu muhanda wangiritse urimo ikinogo, kikaba gifite icy'inyuma k'icyatsi kibisi, naho imbere hayo ni umutuku n'amapine y'umukara.

Umuhanda nyabagendwa uragaragaramo ikinyabiziga kinini kikorera imizigo, hakaba harimo amatungo ariyo inka. Hirya gato hari ibiti, iruhande hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda ugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu bambuka ndetse n'umusore uri gusunika ingorofani y'icyuma, haragaragaramo kandi ipikipiki ikoresha amashanyarazi.

Akayira k'abanyamaguru nta muntu uri ku kagaragaramo keretse uri gutunguka hirya, hano hari ikinyabiziga kinini gishinzwe gutwara abantu muri rusange kigizwe n'amabara yiganjemo ay'umweru, icyatsi n'ubururu.

Umuhanda munini uri kugaragaramo ibinyabiziga byiganjemo amapikipiki; imwe ihetse umudamu wambaye ikanzu itukura; hari imodoka nini ishinzwe gukora ibijyanye n'ubwubatsi.

Mu muhanda nyabagendwa haragaragaramo ikinyabiziga kinini cyagenewe ubwikorezi; igice cyacyo cy'imbere kikaba kigizwe n'ibara ry'umweru; ndetse ibyo gitwaye hejuru hariho ipine.

Ni umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi kikaba gisa umweru, hejuru yacyo hariho ihema ritwikira imizigo. Hakurya hari ibiti ndetse.

Mu muhanda munini wagutse mu kagoroba amatara atangiye kwaka; haragaragaramo ikinyabiziga cya moto y'amapine atatu, kiri ku ruhande rwawo cy'amabara y'ubururu; imbere yacyo hahagaze abantu.

Ahantu nyaburanga hagiye hari aho kwicara ndetse n'ubwatsi bukikijwe n'amabuye bagenderaho, hicaye abiganjemo urubyiruko rwambage udupfukamunwa haragaragaramo ibiti by'imikindo .

Inyubako ndende y'igorofa ikaba isa umuhondo, imbere yayo hari ibiti bishinzwe kuzana amahumbezi, haragaragara umuhanda utemerewe gucamo ibinyabiziga kuko ugendamo abantu.

Ni amabuye ashashe mu kayira ayagenewe kubaka hasi iruhande rwayo hari uruzitiro rugizwe n'ibyuma by'umukara ndetse n'ibindi bi bigiye bifashe igisenge cy'amabati.

Uburyo bw'imituririre igezweho bugaragazwa n'inzu nziza ziba zubatse mu buryo bwa kijyambere, iyi ifite amabati atukura ndetse n'ibibuga abantu bakoreraho imyitozo ngororamubiri.

Uburyo bw'imiturire burangwa n'inyubako nziza zigezweho, aho batuzwa mu midugudu. Iyi iragaragara yubakishije amatafari ahiye, ibisenge bitukura ndetse ikagira n'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mande enye ariko zitangana, kizengurutswe n'akabara gato k'umweru ubuso bwacyo ni ubururu, harimo ikinyabiziga gitwara abantu byerekana ko kitemerewe guhagarara aho ngaho.

Icyapa cyo mu muhanda, kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikimenyetso cyo hagati kikaba ari umukara, kikaba kiri mu ishusho ya mpande eshatu.

Ni ubusitani bugizwe n'ubwatsi bwiza butoshye ndetse n'ibiti biri mu buryo butangaje. Hari icyapa cya mpande eshatu kigizwe n'umuzenguruko utukura ndetse n'ubuso bw'umweru.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga kizengurutswe n'akabara gato k'umukara n'akandi k'umweru ubuso bwacyo bwiganjemo ubururu, naho kikaba gifite uturongo mo hagati.

Umuhanda munini wagutse hirya gato hari kugaragara abana bavuye ku ishuri ndetse hari icyapa kiri ku ruhande rwawo kigizwe n'umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru. Hagati hakabamo ikimenyetso cy'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kizengurutswe n'ibara ryinshi ry'umukara, kikaba gifite umuhondo hagati harimo uturongo tubiri tugana imbere, twerekana ko icyerekezo kijya imbere.

Akayira k'abanyamaguru kari iruhande rw'umuhanda ugaragaramo ipikipiki imbere yayo hari imodoka y'umweru, ubwatsi buteyemo icyapa cya mpande enye ariko zitangana.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru umuzenguruko utukura, munsi yacyo hari ikindi cya mpande enye ariko zitangana hagati muri cyo harimo ishusho y'umugenzi uri kugenda.

Ni utwapa tubiri duto turi ku cyuma kinini gishinze aho twose dufite umuzenguruko w'umukara n'ubuso bw'umweru hagati handitsemo k ndetse na n .

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande enye zingana kikaba kigizwe n'ubuso bw'ubururu, umuzenguruko w'umweru, hagati muri cyo harimo ishusho y'umuntu uri kwambuka umuhanda.

Ipikipiki igaragara igice gito, agahanda kamanuka gakikijwe n'amabuye y'umweru n'umukara, ibiti biriho insinga zijyana amashanyarazi mu baturage.

Icyapa kinini cy'icyatsi, kikaba kigaragaza ibyerekezo biri imbere aho ugana, aho bakwereka ko ari Kagarama, Nyamata ndetse n'ahandi, imbere yacyo hari amapikipiki ahahagaze.

Icyapa cyo ku muhanda kigizwe n'umuzenguruko utukura ndetse ubuso bw'umweru hagati harimo ishusho y'abana babiri bagiye kwiga iri mu mukara kikaba kigizwe na mpande eshatu.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko w'umweru ndetse n'ubuso bw'ubururu. Kikaba giteye ahantu hari indabyo, iruhande rw'akayira k'abagenzi.

Ni icyapa kiri mu ishusho y'uruziga kizengurutswe n'umweru, ahandi hakaba ari ubuso bw'ubururu, kikaba kigaragaza ko iyo ugeze imbere ukata werekeza ibumoso.

Mu muhanda nyabagendwa uri kugaragaramo abantu benshi batandukanye iruhande rwawo hari amazu y'ubucuruzi, amwe muri yo ni kamwe k'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho k'umuhondo imbere yako hahagaze umuntu.

Iruhande rw'umuhanda haragaragara agace gato k'urukuta rw'amabuye ndetse n'igiti, hakurya yawo hari inyubako igeretse y'amarangi y'umuhondo n'inzugi z'umweru.

Inyubako ndende y'umuturirwa igizwe n'amagorofa arenga atatu; ikaba igice cyo hejuru isa umweru hagati hamanutsemo inkuta z'umuhondo; imbere hari ibirahure by'ubururu bwijimye.

Ubwatsi butoshye buteyemo ibiti bitoya, imbere yabwo hari umucanga wegamye ku rukuta rw'amabuye, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ibiti birebire bikaba bigaragiye icyapa kigizwe n'ishusho y'ampande enye, umuzenguruko w'ubukara ndetse n'ubuso bw'umweru. Hagati handitsemo ka ebyiri n'umubare cumi na kane.

Inyubako ndende y'igorofa ikaba yanditseho ko ari ku karere ka Gasabo, yubatse mu buryo butangaje, igizwe n'amabara y'ivu, umweru, hejuru hateretse igiseke kinini.

Ni inyubako y'amagorofa menshi ikaba ifite ibirahuri by'umukara ndetse inkuta z'umweru ifite agapangu kubakishijwe amatafari ahigiye imbere yayo hahagaze umuntu.

Ni ubwubatsi burimo indabyo za'amabara zihumura neza, imbere hagaragara abatwazi b'amapikipiki bari ku murongo ndetse inyubako ndende igeretse igaragara ahazwi nko mu giporoso.

Inyubako y'igorofa ndende ifite inkuta zimwe z'umuhondo ndetse n'izindi z'amakaro. Imbere yayo hari umusore uri gutambuka wambaye ishati y'ubururu n'ingofero ireba inyuma, ari gusatira imodoka.

Imbuga ishashemo amabuye yagenewe kugenderamo abanyamaguru cyangwa se agahagararaho ibinyabiziga mu gihe bitari mu muhanda, iri imbere y'inyubako igeretse ifite amabara y'umuhondo.

Iragaragara nk'aho ikiri nshyashya, igeretse inshuro zigera kuri eshatu. Ni inyubako y'icyerekezo ishobora gukorerwamo byinshi bitandukanye, aho yashyirwamo ibiro, amacumbi ndetse n'ubucuruzi.

Ni agace kagaragaramo inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, bigaragaza iterambere mu bijyanye n'imiturire, ni uburyo Leta y'u Rwanda yashyizeho bujyanye no kujya hubakwa inyubako zijyanye n'igihe tugezemo.

Ni icyanya kigaragaramo ibiti by'imikindo bizwiho kuba ari imitako, hakabamo kandi amazu akora ubucuruzi bwiganjemo ubwo gucumbikira abantu ndetse no kubagaburira.

Ni umuhanda muto ugaragaramo umwanda ukabije, aho hari ama pikipiki ahagaze bigaragara ko yapfuye bakaba barimo kuyakora, hirya hicaye umusore n'abandi bahagaze hafi ye.

Imbuga nini yisansuye ishashemo amabuye yabugenewe, imbere yayo hari umurongo w'amazu menshi afite inkingi z'ubururu akaba akorerwamo ubucuruzi.

Mu masaha ya n'ijoro inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye iragaragaramo abantu b'ingeri zitandukanye, hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'undi uri imbere ye w'agapira k'umukara.

Umuhanda usa n’aho watangiye kwangirika, imbere yawo haragaragara inyubako nziza ifite umweru hose ndetse amadirishya akaba ari umukara.

Ni mu ihuriro ry'imihanda haragaragaramo amapikipiki abiri, imwe iri kugenda itwaye umugenzi indi ikaba ihagaze. Hirya gato hari abadamu bahagararanye.

Ni inyubako zubatse neza ndende zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi zubakishijwe ibirahure ndetse n'ibindi, hasi hagaragara umutaka w'ikigo gishinzwe itumanaho hano mu Rwanda.

Igikuta gisize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, hirya yacyo haragaragara abana bato bambaye impuzankanana y'ishuri. Bari mu byicungo bigaragara ko bari mu masaha yo gukina.

Imbuga nini yitaruye ishobora kwakira ibinyabiziga birenze kimwe, imbere yayo hari indabyo ndetse n'igiti kirekire, hakurya hakaba inyubako igezweho yiganjemo amabara y'umweru.

Urwego rw'imiturire ruteye imbere rugaragazwa n'inyubako nziza yaba iz'amagorofa ndetse n'ingufi. Aha har’iziganjemo ibisenge bitukura byubatswe mu buryo bugezweho.

Inyubako ndende y'umuturirwa igizwe n'amagorofa agera kuri atatu iryo hejuru rirasa umweru irikurikiyeho ririmo umukara ndetse n'umutuku irindi umuhondo ndetse n'utwuma tuyikikije.

Umuhanda w'igitaka ugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu ndetse amapikipiki abiri ahagaze ku ruhande rw'iburyo, ariho abashinzwe kuyatwara bambaye ingofero zirinda impanuka. Iruhande gato hari imodoka ebyiri.

Uyu ni umuhanda munini wagutse ucamo ibinyabiziga byinshi. Aha hakaba hari imirongo y'umweru igiye inyuranyuranamo, ikaba itanga ibimenyetso by'uko ikinyabiziga kihageze kigomba kugenda ku muvuduko wo hasi.

Ni ihuriro rinini ry'umuhanda riri kugaragaramo amapikipiki ahetse abagenzi ndetse n'ibinyabiziga binini n'ibitoya, hagati muri ryo hateyemo ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti by'imikindo.

Umuhanda munini wagutse ufite ibisate bibiri by'isanzuye, igice kigaragara ni aho zibisikanira, hagati hateyemo indabyo ndetse n'ibiti by'imitako bizwi nk'imikindo tudasize n'amatara awumurikira.

Umuhanda nyabagendwa uracamo ibinyabiziga birimo imodoka, amapikipiki ashoreranye agiye kubisikana n'igare rimanuka. hirya gato hari umuntu uri mu kayira k'abanyamaguru.

Ihuriro ry'umuhanda wagutse munini ushobora gucamo ibinyabiziga bitandukanye hagaragaramo imodoka itwara abantu muri rusange nini y'umweru amapikipiki abiri.

Umuhanda munini nyabagendwa wagutse; urimo ikamyo y'ubwikorezi; ifite igice cy'imbere cy'umweru naho iby'inyuma bikaba ari ubururu; ikaba imaze kuva mu kiraro.

Aho imihanda ihurira, agace kamwe karagaragaza aho abanyamaguru baba bambukira, aho harangwa n'imirongo y'umweru. Hirya hari ibinyabiziga biri kubisikana.

Umuhanda uri kugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'imodoka, iruhande rwawo harimo icyuma kiriho amatara y'ibimenyetso biburira abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Mu ihuriro ry'umuhanda ahagana mu masaha y'ijuru amatara atangiye kwaka kuko buri kwira, hari igice cyahariwe kwambukiramo iki iyo imodoka ikigezeho iba igomba guhagarara.

Umuhanda munini wagutse ukaba uri kugaragaramo urujya n'uruza rw'amamodoka atandukanye iyi inyegereye ifite amabara y'umweru hakurya yawo hari inzu zikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini wagutse urimo ibisate bibiri, aha ni ahagana aho abanyamaguru bambukira iyo ikinyabiziga kihageze, kiba kigomba kugabanya umuvuduko yewe kikanahagarara.

Umuhanda munini wisanzuye, igice kimwe kiragaragaramo amarangi anyuranyuranamo y'umuhondo ndetse n'ahandi abagenzi bambukira, aha uhabwirwa n'imirongo y'umweru.

Umuhanda munini wagutse, ukaba uri kubisikaniramo amapikipiki abiri, imwe imanuka, indi izamuka. Iruhande rwayo hari akapa kari mu mabara y'umweru n'umutuku.

Umugabo uri kugendera mu kayira kagenewe abanyamaguru iruhande rwe hari ihuriro rinini ry'imihanda igaragaramo igice abantu bakunze kwambukiramo kirangwa n'imirongo y'umweru.

Akayira k'abanyamaguru kubatswe mu buryo bugezweho gashashemowo amabuye yabugenewe. Iruhande rwako hari ibiti ndetse n'indabyo. Hagaragara hejuru inzu y'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'ibiti bishinzwe kuzana amahumbezi uragaragaramo igare ritwawe n'umuntu imbere ye hariyo ipikipiki ndetse n'amamodoka.

Umugabo utwaye igare yambaye ishati n'inkweto by’umweru, ipantaro ya kaki ndetse n'amadarubindi, ageze ku kiraro kiri mu muhanda, aho imodoka zica hasi ndetse no hejuru.

Mu ihuriro ry'umuhanda haragaragara ubusitani buri ku ruhande buteyemo ibiti, umugabo uri ku igare ategereje gutwara abagenzi cyo kimwe n'abandi batwara amapikipiki bari hirya.

Ni umuhanda ukikijwe n'amabuye awubatse, ahagana inzira zitwara amazi menshi y'imvura hagaragaraho igare ritariho umuntu, hakurya yawo hari ishyamba rigizwe n'ibiti.

Umuhanda w'ibitaka wangiritse urimo ibintu by'imigunguzi, iruhande rwawo hari indabyo ndetse n'ibipangu by'umukara birimo inzu y'umuhondo ifite igisenge kinini.

Ihuriro ry'umuhanda munini wagutse ritari kugaragaramo ikinyabiziga na kimwe, ikikijwe n'ibiti ndetse n'amazu hari urupangu rurerure rw'umuhondo.

Ni mu muhanda ahagaragara igice gishinzwe kwambukiramo abagenzi kigizwe n'imirongo y'umweru, aha ikinyabiziga kihageze kiba gitegetswe guhagarara kugira ngo abantu bambuke.

Umuhanda munini wagutse w'umukara urimo ibimenyetso bigaragaza ibyerekezo, aho biri mu mabara y'umweru n'akarongo k'umuhondo, hakurya yawo hari umugabo ugiye kwambuka.

Kimwe mu bigaragaza iterambere ni ibikorwaremezo birimo imihanda myiza igezweho ishobora gucamo ibinyabiziga mu buryo bw'isanzuye, aha hari ucamo imodoka hasi ndetse no hejuru.